Akazu ka sosiyete y'itumanaho ka MTN, kicayemo abagabo babiri ndetse n'abandi babiri bari hanze, baje gusaba serivisi. Hirya gato hari umuhanda uri kugendamo abantu.

Umu agenti ukora mu bintu bya MTN, afite abakiriya babiri, iruhande rw'akazu akoreramo haparitse umumotari uhetse amazi ya jibu.

Umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku, ufite umutaka uzinze wa sosiyete y'itumanaho ya MTN, iruhande rwe hari agatebe gateye ku mapave, hakurya hari umuhanda ndetse n'inzu ifite amabati y'umutuku.

Akazu ka sociyete y'itumanaho ya MTN kari mu mabara y'umuhondo, hakaba harimo umugabo wambaye umupira w'amabara uri gutanga serivisi, inyuma yako hakaba hari izindi nzu.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto, amavuta, imineke, nk'ibyo kurya, voka, amandazi harimo n'umugore w'umucuruzi, ni umucuruzi w'ibyo bintu.

Umuntu utagaragara neza mu maso, ugaragara ikiganza cyonyine, akaba afite ikarita mu ntoki yanditseho amagambo n'imibare, ku ruhande hakaba handitseho ngo bank of kigali.

Abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wambaye agakote k'umukara, bakaba biteretse amazi imbere yabo ku meza, bicaye bareba muri dokima, inyuma yaho hakaba hari icyapa cyanditseho ngo Airtel.

Inzu ya sosiyete y'itumanaho ya Emutiyeni iri mu mabara y'umuhondo. hakaba harimo umugore wicayemo iruhande rwe hari undi mugore nawe waje kumusaba serivisi.

Abagabo benshi bahagaze ahantu, umwe afite ingofero y'umukara n'umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi, akaba ari kwereka abandi bagabo babiri bari imbere ye, harimo uwambaye ingofero y'ubururu.

Amacupa arimo amavuta y'inka ariho akapa kanditseho koperative Gira Ubuzima Matimba.

Abagabo benshi n'abagore bicaye abandi bahagaze, hakaba harimo umwe wambaye ishati yumweru afite ikayi mu ntoki, iruhande rwe hari ibiti ndetse n'undi mugabo wambaye ikote ry'umukara.

Abantu benshi bateraniye mu cyumba ahantu runaka bicaye, bafite n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kwerekana amashusho, bose bahanze amaso imbere hari n'umugabo uri kubasobanurira.

Inzu irimo ubworozi bw'inkoko, zikaba ziri ahantu bazubake habugenewe harimo utuzu tw'umweru, hirya hakaba hari umugabo wambaye ingofero y'umutuku ndetse n'itaburiya y'ubururu.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ahantu hamwe inyuma yabo hakaba hari uruzitiro rw'ibiti ruriho n'amabati, umugabo umwe akaba ahagaze ari kubwira abantu.

Umugabo uhagaze imbere y'agatuti, wambaye ikote, urimo usomerara abantu imbwirwaruhame, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ihuriro ry'abakozi bo mu buhinzi n'ubworozi, n'ikirangantego cy'Igihugu.

Abantu benshi bakoze uruziga, harimo abambaye impuzankano y'ubururu, irimo ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda inyuma gato hakaba hari undi mugore ufite udupaniye, dufite amabara menshi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru kirimo ikirangantego hariho n'andi magambo yandikishije ibara ry'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu yanditse ngo: "Dutere imbere, ikigo k'imari iciriritse ishami rya Nyagatare."

Abantu benshi barimo umuzungu umwe wambaye ingofero y'umukara, agapira k'umukara, afite utujerekani turimo ubuki, umwe yambaye ingofero wundi n'amarinete, akaba ari gupfundura ubuki amwereka.

Umugabo n'umugore bari ahantu mu cyumba, bakaba bari iruhande rwabo hari icyuma gisya, iruhande rwabo hakaba hari imbabura zirimo ibintu bagiye bapakiramo.

Abahinzi batatu, abagore babiri n'umugabo umwe, bari mu murima wumuceri bari kuwusarura bakoresheje akayuya, umugabo arimo hagati yabo.

Abagabo benshi barimo abambaye udupfukamuwa, undi yambaye ishati y'umweru, ku ruhande hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa, ikote, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ari gukora ku kintu kimeze nk'urupapuro abereka.

Abantu batatu bahagaze imbere ya kontwari harimo umwe w'umugabo ufite ubwanwa burimo imvi, ishati y'mweru, ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara yegeranye n'undi w'umugore wambaye imyenda y'umukara bari gusaba serivisi umuntu wambaye baje.

Abagabo babiri bambaye amakote, karuvati n'amapantaro y'umukara, bakaba bari mu nzu irimo ifoto ya perezida Paul Kagame, bakaba bari imbere y'icyapa cyanditseho ngo RDB.

Inyubako nziza igezweho, irimo intebe z'umukara n'ameza y'umukara, zinshi zigiye zitandukanye, inyuma hakaba hari abantu bashinzwe kwakira abantu, bisa nkaho ari muri resitora.

Icyapa kiri mu mabara y'umuhondo, cyandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umutuku agira ati "Sikol." inyuma yaho hari sima y'umukara ndetse n'intebe zitagaragara neza.

Amacupa menshi agiye anyuranye, ameze nk'arimo inzoga, harimo ay'umutuku, ay'umuhondo, ay'icyatsi afite n'imipfundikize myinshi, igiye ipfundikiyemo. Byose bikaba biri muri etejeri.

Ahantu hari intebe nyinshi z'umutuku ndetse n'imitaka y'umutuku hakaba hari abantu batatu bicaye nk'abari kwiyakira, hirya gato hari umuntu ushinjzwe kubakira wambaye ijire y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru n'ikanzu y'umutuku n'umweru, akaba ari gucuruza ibintu binyuranye birimo bombo, amavuta, ibirungo ndetse n'ibindi byinshi binyuranye.

Umuntu utagaragara neza ugaragara akaboko, akaba afite igikombe ari gupima ibintu abishyira muri anvelope, akaba ari kubipimira ku munzani, hirya hari ibicuruzwa.

Indorerwamo ijya gusa umutuku, ifite ikirahure cy'umukara iri ku meza, hirya yayo hari ikaramu y'ubururu, hirya gato hakaba andi makaramu ane abiri y'icyatsi, iy'ubururu ndetse n'iy'umutuku, inyuma yayo hakaba hari icupa rya korogate.

Uburaso bwinshi buri mu mabara agiye atandukanye ariko bukaba buri mu bifuniko by'umutuku ndetse n'umweru hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ngo gudu dogita akaba ari ingirakamaro rero ku bantu bashaka koza amenyo.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye bipanze mu tubati ibindi bitanze ku ruhande, hakaba hagaragaramo isukari, umuceri w'amoko atandukanye upanze mu mifuka.

Abantu benshi barimo umwe w'umuzungu wambaye agapira k'amabara y'umukara n'umweru, isaha ku kaboko, akaba afite ikibo mu ntoki, abandi bamushagaye, ashaka kugifungura.

Inyubako y'urusengero rwubakishije amatafari ahiye, ruteye irange ry'umweru, rusakarishije amabati y'umutuku, imbere yarwo hakaba haparitse imodoka ndetse n'abantu benshi.

Inyubako ya kiliziya ifite umunara w'umusaraba hejuru, ikaba isakaje amabati kandi yubakishije amadafari ahiye, imbere yayo hasashishije amapave ndetse hari na jarede.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe iruhande hakaba hari umugabo wambaye amadarubindi, ishati y'umweru y'amaboko magufi, afite ikaramu n'ikayi mu ntoki, ku ruhande hari ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Abantu bicaye mu rusengero rwubatse neza, hakaba bicaye imbere y'icyapa cyanditseho ngo ADEPR church partnership celebration dinner, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo.

Ahantu heza cyane harimo amatara n'igisenge gisa neza, munsi yabo hakaba hateye intebe zitatse neza n'ameza, hasa nk'ahantu bakirira abantu ibyokurya bakarya bagahaga.

Inyubako yubakishije amabuye, iruhande rwayo hari ubwogero bwa kizungu, iruhande rw'ubwo bwogero hari ibyatsi byinshi n'ibiti.

Abantu benshi bahuriye mu nzu mberarabyombi harimo abasaza ndetse n'abandi bakuru, hari hirya y'ibikuta by'umukara byanditseho amagambo y'umweru menshi agiye ashoreranye.

Ahantu hari uruzitiro rw'umukara hagaragara nk'aho hari intebe ebyiri ndetse n'ameza, inyuma yaho hari ibiti byinshi bikuze biri ahantu hari na jeride nziza y'ibyatsi.

Inzu nziza igezweho isize irangi ry'umuhondo, harimo n'ifoto ya perezida w'igihugu cy'u Rwanda, Paul Kagame, hakaba yicayemo umukobwa wambaye ikote ry'umukara, uri imbere ya mudasobwa.

Inzu nziza igezweho irimo supanete, ameza ndetse n'ibirahuri n'imiryango myiza. Inyuma yayo hakaba hari ibiti bigiye binyuranye bikoze ubusitani, abantu bashobora kwicaramo. Igisenge cy'iyo nzu kikaba gisa umweru.

Inyubako nini cyane igezweho iteye amarangi y'umuhondo, ikaba igeretse kandi ishakakaje amabati, inyuma yayo hakaba hari ubusitani bunini buri mu kibuga kirimo n'ibiti.

Inzu igezweho isa neza, ikaba irimo intebe zigezweho zisa umweru ndetse n'imisego y'umutuku n'umweru. Inyuma hari igitanda n'igikuta cy'umukara ndetse n'amarido y'umweru n'umukara.

Ahantu hari urujya n'uruza hameze nko mu isoko hakaba hari umugore ufite imisatsi y'umukara, ishati y'umutuku ahetse umwana mu mugongo yegeranye n'umugabo wambaye imyenda y'umukara.

Umutaka wa sosiyete y'itumanaho ya MTN urimo umuntu uhagaze, iruhande rwaho hakaba hari abantu benshi hirya gato hari imodoka y'ubururu ndetse na mato.

Abantu benshi bari ahantu hari imashini isya ibigori, hakaba ari umugore wambaye igitambaro mu mutwe ndetse n'umupira, iruhande rwe hari umuntu ufite mikoro na terefone mu ntoki utagaragara neza.

Abantu bari mu isoko bari ahantu bacururiza inkweto, hakaba harimo umusore urimo urigera inkweto, hirya hakaba hari igare ririho imifuka myinshi, hakurya haragaragara shitingi irimo imyenda.

Ahantu hari abantu benshi cyane wagira ngo ni isoko, hari inzu nyinshi, hari umumotari uhagaze wambaye ingofero y'icyatsi uri kuri moto, inyuma yaho hakaba hari igiti kinini.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe hari umubyigano, umwe akaba yambaye ingofero undi akaba yambaye agapira, k'amaboko magufi. Harimo n'umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu ufite n'agakapu ku rutugu.

Ahantu hari intebe nyinshi zigiye ziteye ku meza hariho ibitambaro by'umutuku ndetse n'iby'umweru, hakaba hari n'ahagiye hateretse ibikombe. Hirya gato hari abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara.

Inzu yubatse mu buryo bugezweho ikaba isa neza mo imbere, harimo inkingi zigiye zishinzemo n'utuntu tumeze nk'uturabyo, munsi y'aho hakaba hari intebe ziteye neza ziriho n'ameza.

Umugabo w'umumotari wambaye kasike y'umutuku, ikote ry'abamotari ry'umutuku, akaba afite moto y'umukara n'umutuku, akaba kandi afite agapapuro mu ntoki k'umuhondo, ahagaze ahantu hubakishijwe amabuye.

Umugabo wicaye kuri moto yambaye kasike, umupira w'amaboko magufi w'ubururu, ipantaro n'inkweto, akaba afite kasike imbere ye n'ikote, hirya ye hari inyubako ziriho n'intebe zigezweho.

Umugabo utwaye moto akaba yambaye kasike y'umukara, ikote afite n'igikapu cy'umukara. Hirya ye hakaba hari inzu, iteye irangi ry'umuhondo n'intebe ziri imbere yayo.

Umugabo uri kuri moto wambaye kasike mu mutwe y'umukara, afite n'indi y'umutuku mu ntoki, akaba ahetse umufuka w'umweru upakiyemo ibintu, hirya ye hari inzu ifite igisenge cy'umutuku.

Umumotari uri kuri moto wambaye kasike y'umutuku, akaba yambaye n'ijire y'umutuku, ahetse umugenzi wambaye na we kasike y'umutuku, ishati y'amaboko magufi y'umutuku n'ipantaro y'umukara.